Ku muhanda hari inzu itangirwamo serivisi z'itumanaho, hakaba hari abantu babiri, umukobwa n'umusore ndetse n'ipikipiki n'abantu bateze ipikipiki, hepfo y'uwo muhanda hari amazu ndetse hari n'igiti kinini.

Abantu b'ingeri zose ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo basa naho ari abakozi b'ikigo runaka bahuriye ku kazi kamwe bahagaze neza kugira ngo bifate ifoto kubera ko wenda basoje ibyo barimo gukora.

Inama yahuje abahinzi n'aborozi, umuntu ushinzwe ubuhinzi ari kubaha imbwirwaruhame ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, bigendanye n'igihembwe bagezemo.

Inzu icururizwamo ibyo kunywa, hari icupa ry'inzoga riteretse ku meza, hari ameza manini, ndetse hari n'akandi kameza gateretseho iradiyo. Biragaragara ko igikorerwa hano ari ugucuruza ibyo kunywa.

Isoko rifite abacuruzi b'ingeri zitandukanye harimo: abacuruzi b'imboga, abacuruzi b'imbuto, abacuruzi b'imyenda, abacuruzi b'amavuta, mbese ibintu byose bitandukanye biragaragara muri rino soko ndetse urabona ko harimo abacuruzi ndetse n'abaguzi.

Ibiryo biba mudukombe ariko byiganjemo ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ubworozi, nk'ubworozi bw'amafi bwose ibi biryo habamo ifi ndetse n'ubuhinzi bw'inyanya kuko haba harimo n'inyanya abari ifi n'isosi y'inyana.

Mu kiliziya abapadiri bamaze guha abantu ibyemezo byemeza y'uko bashyingiranywe ndetse bari no gufata ifoto y'urwibutso y'uwo munsi abo baturage bari kumwe n'abapadiri ndetse n'abafasha b'abapadiri.

Abantu benshi cyane, b'ingeri zose, abana, abakuru ndetse n'abasaza, bamwe bitwikiriye imitaka, biragaragara ko bari hanze, bavuye mu misa kuko barimo gusohoka mu Kiliziya, abandi basa n'aho bo bashaka kwinjira mu Kiliziya.

Igorofa rinini cyane ryubakiye, utapfa kumenya ngo rikorerwamo iki, gusa hanze yaryo hateye indabo nkeya ndetse hirya haragaragara igiti gitwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'insina.

Isoko ririmo urujya n'uruza rw'abantu barimo gushaka ibintu bitandukanye n'abarimo gucuruza ibintu bitandukanye, harimo abari gucuruza imyenda n'abari gucuruza ibikoresho by'isuku n'ibindi byinshi bitandukanye barimo kugenda urujya n'uruza.

Isoko ry'ahantu mu giturage ribamo abantu bakeya cyane, hacururizwa inkweto, imyenda n'ibyo kwiyorosa no kwifubika, ntabwo rigaragaramo abantu benshi kubera yuko ari i ry'ahantu mu giturage cyane.

Ibikorwaremezo; umuhanda wubatse mu buryo bwa kijyambere ndetse n'umuriro w'amashanyarazi. Mu muhanda hari imodoka iri kugenda ndetse na moto. Iruhande rw'umuhanda hari amazu y'ubucuruzi ari ku ruhande rw'epfo n'uruhande rwa ruguru.